Abayobozi bo mu nzego z'umutekano, hamwe n'abandi, inzego z'ubuzima, aho bari mu nama ibahuje, biga ku ngingo zigiye zitandukanye n'aho iki gihugu cyacu kigeze.

Abantu bakunda gukora ibikorwa bitandukanye bishobora kubateza imbere ariko iyo bakoze uko bashoboye kose bagahuriza hamwe ibitekerezo nibwo bagera ku iterambere rirambye kandi bibagirira akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inama yahuriwemo n'abantu benshi bo mu kigero kigiye gitandukanye aho harimo abana, abakuru, abamama, abapapa ndetse n'abandi, buri wese akaba afite amazi cyangwa ji ari kunywa.

Umuntu witeze udutambaro mu mutwe, akaba ari udutambaro tw'umweru bisa nkaho ari umubyinnyi gakondo.

Ababyinnyi bari kubyina imbyino gakondo, biteze kandi bose bambaye ibisa, bakaba bari ahantu hateguye neza hari ibitambaro byiza, kandi akaba ari imbere y'abandi bantu benshi bisa nk'aho ari mu bukwe.

Umurima uhinzemo urutoki ndetse n'ibishyimbo aho urutsinga rw'umuriro w'amashanyarazi rwaguye rukaba ruri gukora hasi bityo ibi bikaba bishobora gutera impanuka zitandukanye.

Umuriro w'amashanyarazi ufitiye akamaro abaturage, ariko kandi abakozi bashinzwe gukora by'amashanyarazi nibo bonyine bagomba kwita ku mashanyarazi mu gihe yapfuye, kuko batabikoze hakagira undi muntu ubikora, bishobora kumuteza ibibazo bikomeye.

Umuntu ukora mu bijyanye n'amashanyarazi, agomba kwitonda, agakoresha neza ibyo yize kuko iyo abikoresheje bimugirira akamaro kandi bishobora gutuma ubuzima bwe bujya mu kaga mu gihe ibyo bikoresho atabikoresheje neza kuko byamuteza inkongi y'umuriro.

Abantu babiri bari hejuru y'inzu, umwe akaba afite inyundo n'umusumari, undi arimo amufasha, bombi bakaba bari kumanika umurasire w'izuba kugira ngo utange umuriro,

Hari inyubako nyinshi ziba zifite isuku kandi ziri ahantu hameze neza. Izo nyubako zifitiye akamaro abaturage kuko inyubako idafite umwanda birushaho gushimisha abayibona kandi ishobora gutuma abo bantu bakomeza kugira iterambere.

Umupolisi uhagaze imbere y'abaturage benshi, aho ari kubagezaho ikiganiro ku karengane ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Imidugudu yo mu Rwanda haba hariho ibyapa bigaragaza igicumbi cy'umudugudu ibyo byapa biba biriho indangagaciro ndetse na kirazira umuntu w'umunyarwanda cyangwa se w'umwenegihugu agomba gukurikiza kugira ngo abane n'abandi neza.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota. Yahagaze imbere y'inzu bakoreramo irembo. Iparitse ku ruhande hafi y'ahari pasiparumu.

Hari ibiro biba bikoreramo abakozi batandukanye, abo bakozi bagatanga serivise nziza kandi izo serivise zikagirira abaturage umumaro, ibyo biro biba byubatse ahantu henshi kandi biba bifite akamaro mu gihugu.

Igare ritwara abantu ribafasha kugera iyo bajya, kandi hari ibikoresho bindi bishobora gufasha abantu mu gihe batwaye ibintu byabo nk'imodoka. Imihanda nayo ibigiramo uruhare, kuko ituma abagenzi batwaramo ibinyabiziga byabo.